Hari amaduka, imiryango iri munsi irakinguye, hari umugabo uri kugenda, hari ahanditse depo, farumasi, MTN shop bacuruza amaterefone n'ibindi.

Hari umurima uteye mu rugo, inyuma yaho hari igikuta, uwo murima uteyemo uruyuzi rutoshye.

Hari ameza hejuru yayo hari igitabo, ikaramu n'icupa, munsi y'aho hari amacupa menshi harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akayetajeri kamanitsemo ibintu byinshi bisa nkaho ari ibiti.

Umuntu washyize amaboko ku meza hari aka etageli gapanzemo ibintu byinshi bimeze nk'imiti ako ka etagali karasa umweru hejuru hari ibimeze nk'amapombo.

Umukecuru ari mu kabande, harunze ifumbire, arimo arasa n'uyikuramo ayishyira mu kintu cy'ikidobo kiri impande ye, hirya hari n'abandi benshi bari kubigenza nkuko ari kubikora.

Abantu benshi harimo abagabo, abagore, bafite amasuka urabona ko bari guhingana imbaraga, bari kugenda bamanura itaka ryinshi risa nk'irirunze ahantu hamwe.

Hari umugore wambaye ingofero ufite umusatsi mwinshi, wambaye umupira w'umweru n'umutuku arunamye afite agakoroboyi mu ntoki ndetse hari n'ika n'igiti cy'ikawa asa nkuri kugikora giteye mu muririma.

Ahantu hasa nkaho ari mu ishyamba hari ibyatsi by'icyatsi kibisi cyane, hari n'ibindi birunze bisa nk'ibyumye, hejuru hari umugabo wambaye bote asa nkaho ashinzemo igiti muri ibyo byatsi.

Ni mu gishanga, hari umugabo ufite karoti mu ntoki, arunamye ari gusasira inyanya, ari kumwe n'undi nawe uri kumufasha gusasira inyanya.

Amarozwari menshi ari mu ishashi, impande yaho hateretse umufuka, hateretse umufuka wa sima; byose birunze imbere y'inzu imeze 'nk'aho bacururizamo ibintu byo kurya; mbese ni nka kantine.

Umurima uteyemo ibigori bikiri bito, harimo umugabo wambaye ingofero uhetse ipompo, arasa nk'aho ari kubitera umuti, ni mu murima ugaragara ko ari munini cyane.

Hari umurima wegereye umuringoti, usa naho watsutseho, umurima uteyemo imyumbati, harasa nk'ahahinze.

Umurima uhinzemo amashu atoshye, bigaragara ko akiri mato atarazanamo urubuto, ateye ku murongo haragaragara ko ari mu gishanga.

Ni mu gishanga hari imirima ihinze, isa nk'aho iteyemo imyaka ariko itaramera, hagati hagenda hacamo amazi amanuka.

Abakobwa babiri barishimye, bafite inanasi ziciye mu ntoki zabo ndetse zihishije, bahagaze mu murima uhinzemo izindi.

Igihingwa cyera cyane, iki gihingwa gikunze guhingwa mu bishanga ahari amazi ahagije kugira ngo cyere, ni igihingwa cy'umuceri aho bagisaruye bakagishyira hamwe kugira ngo kizume neza.

Umurima uhinzemo beterave, harimo umubyeyi, uri kuzisarura, yasaruyemo nkeya azifite mu ntoki, ateze agatambaro.

Ni ahantu hameze nko muri farumasi y'amatungo kuko hari imiti igiye itandukanye ishushanyijeho inka.

Hari ingurube iri mu nzu, inyuma yayo hari umuntu, usa naho ari kuyitera urushinge ku kibuno. Iyo ngurube ifite ibara ry'umweru.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe mu nzu, zigiye zifite akantu ziri kuriramo uko ari nyinshi na two tugiye ari twinshi aho zirira.

Urukwavu ruri kumwe n'abana barwo bagera ku munani, harimo umwana umwe ufite ibara ry'umweru, utwana twarwo turi kurya ubwatsi na yo iri kumwe na two.

Abagore bagera kuri bane bari mu murima bafite amasuka atatu, barunamye bari guhinga umwe arahagaze.

Ni mu murima uhinzemo ibigori, hari abagabo benshi bahagaze bakikije ahahinze ibigori, harimo abambaye bote, abambaye amakote ndetse n'amashati.

Umurima urimo urutoki, harimo umugabo ufite isuka wambaye umupira w'umukara, afite isuka arimo arahinga mu rutoki asa nkaho ari kurukorera.

Umugabo ufite ipompo ari mu murima arimo aratera umuti ku birarayi ndetse n'ibishyimbo, hirya y'uwo murima hari undi uhinzemo urutoki rutoshye cyane rumeze neza.

Umurima uhinze, harimo umugore ukenyeye igitenge wunamye, arimo akuramo ibyatsi nko mu muririma, ukaba urimo n'urutoki.

Abagore, abakobwa bari ahantu hasa nko mu murima harunze itaka ryinshi, bafite amashashi bari kugenda buzuzamo ibitaka, bigaragara ko bagiye guhumbekamo imbuto.

Abagabo, abagore, abantu benshi barasa nkaho bari gukora umuganda, bari guhinga bamwe hepfo abandi ruguru, urabona ko bari gukorana imbaraga.

Hari umugabo uri guhinga mu murima hejuru ntabwo yambaye afite isuka ndetse umurima ari guhingamo urimo urutoki, ari kugenda ahinga, hirya ye hateye ibiti birebire bya geveriya birasa naho ari mu gishanga.

Ni mu muririma uhinzemo ibirayi, harimo abantu benshi, bose bafite amasuka, harimo abayafite ku rutugu, harimo abari guhinga, bose ubona ko bashishikaye.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'ibihwagari. Harimo umugabo utambaye hejuru ufite isuka yunamye arimo ahingamo, ndetse harimo n'urutoki.

Ni mu murima utoshye cyane umeze nk'uhinzemo imboga, hari umugabo uri gutambukamo ameze nk'ushaka kuzisoroma.

Umurima uhinzemo ibigori bihetse bifite ibigori bisa nk'ibyeze, hari umugore ufashe ibigori kimwe agifatishije ukuboko kumwe ikindi kindi ndetse yasetse, abifasheho yambaye umupira w'ubururu.

Mu isoko ahacururizwa imbuto zimwe ziteretse hasi mu mifuka izindi ziri hejuru harimo inanasi, imyembe ibinyomoro, amacunga ndetse n'ibindi.

Umugore ukenyeye igitenge, wifubitse, uri kugosora ibigori, yabishyize ku rutaro, ibindi biri hasi kuri shitingi ndetse hari n'ibindi biri mu mufuka, ari kumwe n'undi mugore.

Imifuka myinshi irimo ibiribwa, harimo uw'ubunyobwa hejuru uteretseho akadobo karimo ibinyobwa, uw'ibishyimbo, uw'amasaka, ibigori ndetse n'ibindi.

Hari imifuka myinshi buri mufuka wose urimo imyaka: ibishyiyimbo, amasaka y'ubwoko bugiye butandukanye, hari umugabo uhagaze hagati muri yo.

Umurima uhinzemo imyumbati, isa nkaho ikiri mito itoshye imeze neza, hakurya hari ibiti bikikije kuri uwo murima, hakurya yaho harasa nk'ahatuye abantu.

Mu isoko hari imifuka myinshi ifite ibara ry'umweru irimo ibirayi byiza, hari abana, abagore, abagabo, abagura, ndetse n'abagurisha.

Ni umurima munini uhinzemo ibishyimbo bigaragara ko bitameze neza, byishwe n'izuba.

Umurima uri imbere y'inzu ntoya ifite amadirishya abiri rimwe risa nk'irifunguye, uwo murima uhinzemo ibijumba, urimo ibiti bya avoka ndetse n'insina.

Ni mu murima, harahinze, hateyemo ibigori bisa nkaho byeze, ndetse ku mpande hariho ibiti birebire binini.

Umurima uruhande rumwe rurahinze, urundi ntiruhinze harimo urutoki n'ibindi byatsi n'ibindi biti birebire.

Ahantu mu ishyamba harimo ibitovu n'ibindi byatsi byinshi bitandukanye, harimo n'ibiti birebire byegeranye cyane, ubona ko ari ahantu mu ishyamba.

Ibimera bisa icyatsi, biteye ahantu, hirya yaho hari igiti, birimo utundi dutoya twitwa maviyakuku, birasa nk'ibitoshye ndetse harimo n'ibyagiye byuma.

Igiti gisa nk'igiteye mu gipangu. Ku mpande zacyo hari ibyatsi. Kirasa nkaho kikiri gitoya kitarazanaho imbuto.

Umurima uri inyuma y'inzu, hari ibyatsi byinshi, hari amateke, hari ibiti birebire.

Hari agatanda gateretse hejuru, imyungu n'imifungo y'ibijumba, hirya hari umucuruzi, birasa nkaho ari mu isoko.

Umurima uhinze, hamezemo igiti cy'avoka kikiri gito cyane, gikikijwe n'ibisharangara, haruguru hari umuntu wunamye ameze nk'uri gukora muri ubwo butaka.

Imirima iri mu gishanga ihinzemo umuceri, hakurya hari indi mirima iriho amaterasi y'indinganire nayo igiye irimo ibimera iyindi irahinzwe.

Umuntu wunamye mu murima uhinzemo watameloni akenyeye umupira yambaye bote n'ipantaro afite ibisuko kumutwe arasa nkaho arimo arazisarura.

Indimu nziza nini zirunze ahantu hamwe, bigaragara ko ziri gucuruzwa, hirya hari izindi mbuto na zo zirunze munsi na ho hari izindi.

Akabase karimo tungurusumu nyinshi, hirya hari epininari zifunze umufungo umwe, hirya hakaba indi base irimo imiteja.

Amatunda menshi ahiye, arunze mu kintu kimwe, bisa nk'aho ari gucuruzwa mu isoko.

Inkoko ziri hamwe, ziri aho bazubakiye zirira ndetse zikanarara, ni ahantu hari n'ibyo kurya byazo hari n'ihene hirya yazo iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ibase ifite ibara ry'ubururu irimo imiteja myiza minini irunzemo ni myinshi impande yaho hari umufuka uriho karoti nkeya.

Abantu batatu bicaye imbere yabo hari akameza kariho imbuto nyinshi ndetse n'imboga ziri ahagana hasi, harimo intoryi, imyungu, karoti, imboga dodo ndetse n'inyanya n'ibitunguru.

Ni mu murima uhinze neza uri ahantu mu gishanga, uteyemo amatunda yose arashingiriye, aratoshye ndetse yatangiye kurira kuri ibyo biti ashingiriyeho.

Umurima usasiye urimo: inyanya, ibigori byatangiye guheka; harimo umugabo afashe ibyatsi byo kujya gusasira muri uwo murima.

Imboga zimeze neza zigiye zifunze imifungo, karoti, pavuro, ibitunguru, imiteja, byose birunze hamwe, bimeze nk'ibiri gucuruzwa.

Umwembe munini, usa nkaho uhiye, uciye uri ahantu ,ku gitenge hasi uharambitse.

Mu muhanda w'amabuye, ku mpande hateyeho indabyo, inyuma hari ibiti birebire, hirya hari inyubako ifite amabati y'umutuku.

Umurima uhinzemo karoti, amateke hirya yaho hahinze ibigori hari abagore bunamye n'umugabo umwe bameze nk'abarimo basarura izo mbuto zihinzemo umwe muri bo afite igare.

Ni mu isoko hari pome nyinshi ziri ahantu hamwe, hari watermelon, imbuto zigiye zitandukanye amatunda, ndetse hari n'umubyeyi wicaye asa nk'aho ari kuzicuruza.

Imineke ihishije neza iri ku rutaro iteretse hejuru y'agakarito ka sarisa, indi mineke iri ku rutaro iteretse hejuru y'agakarito ka Redgold, hakaba hari n'imyembe n'umunzani bisa nkaho ari mu isoko.

Umugabo n'umugore barunamye bari ku karima k'igikoni bari gushyiramo itaka, umugore ari guseka ndetse n'umugabo bose bari guseka.

Igihingwa cyitwa urusenda gifiteho imbuto z'urusenda, ariko ntabwo zihishije rurasa n'urutoshye.

Abagore babiri bambaye ingofero n'umugabo umwe, umwe afite ibitunguru mu ntoki, undi afite imbuto mu ntoki, undi afite imboga. Imbere yabo hari inyanya, intoryi, imiteja, amacunga n'ibitunguru biri ku mufuka.

Hari ibyatsi bisa nk'ibigitoshye, hagati hateyemo ikirabyo gisa nkaho kiri kuma, ibyo byatsi birasa icyatsi kibisi, hagiye hari ibyahungutse kuri icyo kirabyo giteyemo hagati.

Imiteja minini isa, isa neza, iri mu ibase isa nkaho ishaje, irarunze hamwe.

Imbuto zisa neza, zishishe, zigihumbitse, zimeze nk'imbuto z'ibinyomoro.

Na hantu hari igiti kirekire, hari igiti cy'ipera, hari ibyatsi bitoshye biri inyuma y'inyubako.

Igiti cy'ikinyomoro, gifiteho ibitubwe byinshi gitoshye, ibitumbwe byacyo birasa icyatsi kibisi kirasa nkaho aribwo kikiri kuzanaho imbuto.

Ibinyomoro byiza byinshi bihishije, biri mu ibase nini, imbere y'aho hicaye umuntu wagaragajwe ibirenge, birasa nkaho ari kubicuruza.

Abagabo babiri, umwe wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'ubururu, undi yambaye bote afite pompo ari kuvomera mu murima kandi bombi barahagaze.

Umugore wifubitse esharupe, uteze igitenge, ukenyeye ikindi, afite rozwari irimo amazi, arimo aravomera imbuto ahantu bigaragara ko ari mu kabande, ziratoshye cyane.

Hari umugore uteze igitambaro uri mu murima, umurima uteyemo ibigori bikiri bitoya, hari uruhande rumwe ruhinze hari n'urudahinze, inyuma ye hari ibihuru, arimo ameze nk'urimo ahinga.

Umugabo uri mu murima, afite ipompo irimo kuvamo amazi, ari kuvomera mu myaka.

Ahantu heza cyane hasa nko mu kibaya, hahinzemo icyayi hateyemo ibiti birebire, hakurya hari ishyamba ndetse haza icyatsi kibisi.

Hari umurima ukozemo amaterasi y'indinganire. Mo hagati hari inzu zigera kuri ebyiri z'abantu batuyemo. Aho ngaho kuri buri terasi harahinze.

Ahantu hasa nkaho ari mu gishanga hagati, hakurya no hakuno yacyo hateye ibiti mu gishanga hagati hameze na ho nk'ahahinze.

Ni mu gishanga hakurya hari ishyamba, hari abantu bane barimo barahinga, batatu bari guhinga, umwe aricaye.

Umurima uhinze ariko hirya y'aho hari undi udahinze. Hari urubingo bigaragara ko wahinzwe hagiye gutera guterwamo ibihingwa runaka.

Mu mirima harimo abagabo barimo barahinga, bamwe barahagaze abandi bafite ibitiyo bari kugenda bakurura itaka.

Mu gisambu kirimo ibyatsi bitoshye, hari n'ibiti binini, hirya hari umuhanda urimo imodoka ziri kunyuramo.

Inzu ituye ahantu ha yonyine mu gisambu kinini, ibyatsi byarumye, hari igiti kinini imbere yayo.

Hari inkoko zose zifite ibara ry'umweru, ziri ahantu hamwe, bisa nkaho zigiye kugaburirwa ziri mu nzu yazo.

Inka imeze neza iri mu kiraro, ifite amabara y'umukara n'umweru, nta bwatsi ifite imbere yayo, irimo kureba hanze.

Hari ikiraro, imbere harimo akanyana n'ubwatsi bwumye. Icyo kiraro gikozwe mu biti bigufi ndetse n'ibirebire bigiye byegeranye.

Hari ihene iri kurisha imbere y'inzu isa nk'iyasenyutse, hari umugabo uri imbere yayo wambaye imyenda isa nabi, inyuma ye hari urutoki rusa nk'uruhinzemo.

Inka ishishe imeze neza ifite ibara ry'umukara n'umweru, iri kurisha mu gisambu harimo ubwatsi butoshye cyane.

Ihene ebyiri z'umweru ziri ahantu hameze nko mu nzu, imwe iziritse irimo ireba inyuma, indi itaziritse iri kureba imbere.

Inka zisa naho zashyizwe ahantu hato, zitabasha kwinyagambura neza. hari abagabo bagera kuri batatu.

Ni mu kiraro harimo ihene ebyiri, imwe ifite amara y'umweru indi ay'umukara, hari akajerekani, hari umubyeyi wifubitse agasharupe usa nkaho ari kuzirika ihene.

Hari ingurube yabyaye ibyana byinshi biri konka, ibindi bibiri ntago biri konka biraryamye ndetse na nyina iri ku byonsa iryamye.

Ingurube irimo kugenda, hepfo y'ikiraro cyayo, mu muhanda, hari ubwatsi butoshye, ndetse hakaba hari insina, ndetse n'ikindi giti.

Hari ingurube iri imbere y'inzu, iri ahantu harunze amabuye, hari umufuka usa umuhondo hakaba n'igiporoporo kiri imbere yayo.

Inka ibyibushye isa umukara, iri mu kiraro hari ibyatsi byumye, harimo n'ubwatsi bubisi bw'urubingo iri kurya mu kiraro.

Umugore uri gukurura ihene, hari ihene zigera kuri eshatu, inyuma ye hari umwana mutoya wicaye, ari gusa nkaho azisohoye mu kiraro agiye kuzahura.

Udukwavu harimo udutoya, harimo n'inkuru, ziri ahantu hamwe, mu kazu kazo. Kubakiye hose.

Ihene eshatu ziziritse imbere y'inzu ni ikiraro cy'inka, harimo n'inka nayo iri kurya nazo zirimo zirarya ubwatsi bazahiriye, ni ihene nziza zimeze neza.

Umugabo afashe ingurube, iyo ngurube ifite ibara ry'umweru. Umugabo yambaye ishati y'igitenge irimo amabara y'ubururu, arasa nk'aho ari kwagaza iyo ngurube.

Inka zigera kuri eshanu ziri mu kiraro ziri kurya ubwatsi, inkoko z'umweru, inkoko za dendo zose ziri hamwe mu kiraro, inkoko ziri gutora ku kiraro.

Inka zifite amabara y'umweru n'umukara, ziri mu kiraro, ndetse hari n'abantu batatu, bari muri icyo kiraro.

Ihene ebyiri zose ni umukara n'umweru, imwe isa n'ihaka kuko ifite amabondo manini, zirimo zirarisha ziri mu bwatsi butoshye aho baziragiye.

Ihene zigeze muri eshatu, imwe ifite amabara y'umukara indi y'umukara n'umweru indi umweru n'ikijuju ziri mu kiraro ziri hamwe ziri kurya ubwatsi.

Ingurube nyinshi ziri ahantu hamwe hari icyatsi, ndetse hari n'abantu benshi bahagaze, basa nk'aho bari kuzireba.

Hari ihene ebyiri zizirikanye, ziziritse ahantu ku kiraro, imwe irasa umweru indi irasa umukara. Imbere yazo hahagaze umwana wambaye ikabutura n'umupira.

Inka y'akanyana gatoya, ifite amabara y'umweru, hari umugabo uyikozeho, asa nk'uri kuyagaza, iri mu kiraro.

Inka iryamye mu kiraro k'ibiti, inka isa umukara, ndetse imbere yayo hari ubwatsi isa nk'aho yari irimo kurya ikaba ihise iryama.

Inkoko nyinshi cyane ni ubworozi bw'inkoko, aho ziri mu nzu yazo bazishyizemo kugira ngo zizakuriremo ndetse zibemo zifite aho kurira ndetse n'aho kunywera amazi.

Ihene ibyibushye iziritse ku giti, ahantu hatari ubwatsi na bukeya, humye hameze nk'aho ari mu gikari.

Ingurube iri mu kiraro gikozwe mu biti. Iyo ngurube irasa umweru, yasohoye umunwa hanze.

Ingurube iri ahantu hasa nk'aho ari mu rugo, irasa nk'iyashyize umunwa hasi hari ibitaka, wagira ngo iri kubirya, inyuma yaho hari igiti ndetse n'iruhande rwayo.

Inka inanutse cyane, imeze nk'irwaye, iziritse ahantu mu kiraro kidakoze neza gisa nkaho nacyo kitubakiye bihagije.

Ni mu murima harimo ihene ebyiri, inkuru ndetse n'indi yayo, ziri kurisha hakurya yaho hari urutoki.

Ikiraro kirimo inka ebyiri hari umwana ugihagaze impande, umugabo usa nk'aho arimo arereka abandi bagabo bane izo nka abasobanurira.

Inka ebyiri ziri mu kiraro, zirasa umukara ,n'umweru zifite amahembe matoya, hasi hari ibyatsi byumye.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe, harimo izifite amabara y'umweru n'umukara ndetse n'izifite amabara y'ikijuju, harimo umuntu uri gukama.

Umurima usa nkaho uri mu gishanga watwawe n'umuvu w'amazi ndetse hari gutembamo amazi, harimo ibyatsi byagiye biranduka bikagwamo hasi.

Ni ahantu mu gishanga hagati hari gucamo amazi ndetse hahinze igihingwa cyitwa amateke, harasa nkaho amazi yahatwaye.

Abagabo bagera kuri batatu bafashe inka umwe afashe ugutwi no ku mahembe undi afite agakoresho basa nk'aho bagiye kuyikura amahembe, iri mu kiraro iraziritse.

Mu mbuga imbere y'inzu, hari umugabo wambaye bote n'imyenda isa icyatsi, aragiye inka imbere y'inzu mu gisambu, hari n'undi mugabo umuri imbere, ndetse hari n'ufite akajerekani.

Ni mu gisambu hari ibiti, hari abana, hari abagabo ndetse hari n'inka zigera kuri enye zirasa nk'aho ziragiwe n'abo bantu.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'ishati ya buresiyeri, afite agacupa gasa nkaho karimo umuti afashe inka agiye kuyiha umuti, inka iri mu kiraro nawe yicaye hejuru ku kiraro arimo arayiha umuti.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu yambaye ishashi mu kaboko arasa nk'aho ari umuveteneri ari kuvura inka.

Ni mu nzu irimo ibintu byinshi, harimo abagabo babiri, harimo rozwari n'ibindi bisa nk'imiti, umugabo afite umwe ari kuwitegereza.

Umusore wambaye imyenda y'ubururu, uri hagati yamatungo, inkoko asa nk'urimo azigaburira cyangwa arimo ziha imiti mu kazu kazo.

Ni mu gisambu hari inka ifite amabara y'umweru n'umukara mukeya, hari umusore uyihagaze inyuma, hari umukecuru wunamye asa nkaho ari kuyagaza.

Hari akanyana kari ahantu hari ubwatsi bwinshi, ni gatoya inyuma yaho hari umuntu uri kugakoraho no hirya hari uhagaze, ndetse begereye ahantu hari ikiraro.

Amata ari mu gikombe, bashyizemo agakoresho gasa nk'akayapima, hari amakayi ku ruhande, ikayi nini yanditseho jambo iteretseho akajerekani, hari umupfundikizo ku ruhande.

Umugabo wambaye bote wambaye n'ingofero afashe inka, arayasamuye afite icupa yayishyize mu kanwa asa nkaho arimo arayiha umuti.

Abagabo babiri umwe wambaye inkweto za bodaboda, undi yambaye izifunze. Umwe arahagaze ari kwagaza inka, undi ari munsi yayo ari gusa nkaho ari kuyikama. Iyo nka ifite amabara y'umweru n'umukara.

Agasimba kameze nk'inkende gafite amabara y'umukara n'umweru, karasa nk'aho kari ahantu mu ishyamba, kameze nk'aho hari icyo kari kureba.

Hari igiti, igiti kinini cyane kiryamyeho urusamagwe, rurasa nkaho rufite ikibazo cyangwa se rwananiwe.

Ingagi zicaye ari eshatu, zicaye hamwe mu ishyamba, zirasa nkaho hari icyo zirimo ziritegereza.

Akanyoni gafite amabara y'umutuku n'umukara kari ahantu mu byatsi, karasa n'agahanze amaso ikintu.

Ikiyoni gihagaze hejuru mu bushorishori bw'igiti kirimo kirareba hakurya gisa nk'aho hari nk'ikintu kirimo kitegereza.

Inyoni y'amabara y'umukara ndetse n'umutuku iri ku cyatsi cyitwa igicumucumu, iri kurya uturabo tuza kuri icyo cyatsi.

Ingagi yicaye hejuru hejuru cyane mu giti, isa nkaho hari nk'ikintu iri kureba ihanze amaso.

Mu ishyamba rwagati harimo ikiraro cyo mu kirere, harimo umuntu urimo arakigendaho, ubona ko arimo aragenda yitegereza hirya no hino.

Ikiyoni gihagaze ahantu mu gisambu, gisa nkaho hari ibintu gitamiye ndetse gisa nkaho nk'ikindi kintu kiri kureba.

Akanyoni kari mu kirabyo gisa umutuku, gafite umunwa muremure, karasa nk'aho hari ibyo gahanze amaso.

Hari isha iri ahantu hasa nk'aho ari mu gishanga, hari ibyatsi bimeze nk'ibibiri kuma, irimo irasimbuka.

Ahantu muri pariki mu ishyamba, harimo inzovu zigera kuri enye, nini, hari n'ibiti birebire, zirimo zirasa nk'izigendagendamo.

Ni akanyoni kari hejuru mu kirabyo, gafite amabara harimo umutuku, umuhondo, umukara. Kari mu kirabyo na cyo gifite indabo z'umuhondo.

Inyoni iri mu giti, hejuru yaho hari ibibabi, iyo nyoni ifite amabara y'umukara n'iry'umuhondo ku ruhande.

Hari inyoni ihagaze ku kantu kameze nk'igiti ifite amabara iry'umuhondo, umutuku, ubururu, umukara, ifite umunwa muremure.